Abantu binshi bicaye birasa n'aho bari mu nama, buri umwe agiye afite mashini iruhande rw'iwe, icupa ry'amazi, bisa n'aho bagi hari ibyo bari gukora hari n'abafite terefone mu ntoki.

Umugabo wambaye ikotwe ry'umukara n'ishati y'ubururu iruhande rwe hari abagabo bambaye amashati y'umweru. Imbere yabo hari mikoro, bagiye bafite urupapuro n'ikaramu mu ntoki.

Bisa n'aho hari abandi bantu ari kubwira, umukobwa afite mikoro mu ntoki, afite ikaramu ntoki, imbere hateretse itasi iteretse ku gasahani, hari telefone, hari na mashini ifunze. Hari urupapuro ku rundi ruhande hari umuntu wambaye baji mu ijosi, n'ikanzu y'umukara, n'agakoti k'umweru.

Biragaragara nkaho ari mu mahugurwa hari abantu benshi, buri muntu wese agiye yambaye buji y'umweru mu ijosi, afite ikayi n'ikaramu n'icupa ryamazi kumeza.

Birasa naho habereye inama, hari abantu benshi bakikije ameza, hakurya hari umugore wicaye wenyine, hari abantu bagiye bafite amakaye n'amakaramu bari kwandika. Buri muntu iruhande rwe hateretse icupa ry'amazi n'icupa rya ji.

Bisa n'aho habereye inama, abantu benshi bicaye bari kureba imbere, umugore uzamuye akaboko n'umugabo, imeza bicaye ho hariho amacupa y'amazi hamwe n'ibitabo bitandukanye.

Umugore wambaye umupira w'umweru ipantalo y'ikoboyi afite terefone mu ntoki n'isakoshi itukura rutugu. Hari umupolisi umuhagaze iruhande, hari undi mugabo wambaye ikoti ry'umukara n'umupira w'umweri na we umuhagaze iruhande.

Umugabo wambaye ishati ya karokaro n'ipantaro y'ikoboyi, afite mikoro mu ntoki. Birasa naho hari ibyo ari kubwira abandi bantu benshi bicaye aho ngaho. Buri umwe agiye afite ikayi, ikaramu n'icupa ry'amazi.

Bisa nkaho habereye inama, imbere hari abagabo batatu bicaye, hari undi mugabo umwe ufite mikoro n'agatambaro mu ntoki ari kuvuga. Hari abantu benshi bicaye, buri meza igiye iteretseho icupa ry'amazi.

Bisa n'aho habera inama, hari abantu benshi bicaye, imbere yabo ku meza hateretseho icupa ry'amazi, hari abafite ikaye n'ikaramu bari kwandika, imbere hari umuntu ufite mikoro, bisa n'aho hari icyo ari kubabwira. Hari n'undi wicaye.

Ese nari mu nama, buri umwe agiye yicaye akikije ameza y'umukara. Iruhande rwe hari icupa ry'amazi n'ikayi n'urupapuro. Birasa nk'aho bari mu mahugurwa.

Birasa n'aho habereye inama. Hari abantu benshi bicaye, buri wese muntu iruhande rwe hari mikoro. Buri meza iteretseho amazi hamwe na ji. Abandi bafite impapuro mu ntoki n'amakaramu, bari kwandika.

Icyumba cy'inama abagabo batanu n'umugore umwe bicaye bakikije ameza. Iruhande rwabo hateretse uducupa tw'amazi, buri umwe agiye afite ikaye.

Ahabereye inama hari umugabo ufite telefone mu ntoki, mashini imbere ye, ikaramu iteretse ku ruhande na jenda. Hari abantu benshi, buri muntu iruhande rwe hateretse icupa ry'amazi, hari intebe itarimo umuntu, hari imashini iteretse ku meza, birasa n'aho hari uwo bategereje.

Abasirikare babiri bicaye mu ntebe z'umukara, ku ruhande hari umugabo wambaye ishati y'umweru, ku rundi ruhande hari umukobwa ufite telefone mu ntoki, inyuma yabo hari abantu bisa nkaho ari ahantu habereye igikorwa runaka.

Umukobwa wambaye umupira w'umukara imbere mu gatuza hariho rinete, afite mikoro birasa nk'aho ari kuvuga. Hari abandi bantu bicaye, hari imeza iteretseho icupa ry'amazi, ku ruhande hari icyapa cy'umweru kiriho idarapo ry'igihugu.

Birasa naho habereye inama, hari abantu benshi bicaye, hari abafite ikaramu mu ntoki n'ikayi bari kwandika, imeza bicayeho iriho igitambara cy'umweru hateretseho n'icupa ry'amazi.

Abantu barindwi bambaye imipira y'imihondo hari abandi batanu bambaye imipira y'ubururu, hari umugabo wambaye ikote ry'umukara ishati y'umweru, bisa nk'aho bari mu inama.

Birasa n'aho habereye inama, umugore wambaye baje mu ijosi afite mikoro birasa n'aha hari icyo ari kubwira abandi, ku rundi ruhande hari umugabo uri kwandika, hari n'abandi bicaye, buri muntu iruhande rwe hateretse icupa ry'amazi.

Birasa naho habereye inama, buri muntu iruhande rwe hagiye hatetse agacupa k'amazi n'agacupa kaji, buri wese agiye afite ikaramu mu ntoki n'urupapuro rwo kwandikaho imbere ya buri muntu hariho mikoro.

Uruganda rw'amata, utubuni turi mu gatajeri rw'ibara ry'umweru turimo amata, igikoresho babikamo amata kiri iruhande rwabyo.

Abantu bicaye ku ntebe z'imikara bisa nk'aho bari mu nama buri umwe agiye afite ikaramu n'ikaye iruhande rwe hari abafite mashine ameza bicayeho ateretseho uducupa tw'amazi.

Birasa nk'aho ari mu nama, hari abagabo bicaye imbere. Hari umwe, imbere ye hari tabureti undi hari ikayi n'ikaramu na telefoni. Ameza ateretseho amazi yo kunywa, hari n'undi ufite ikayi iruhande rwe. Inyuma hariyo n'abandi bantu.

Birasa nkaho habereye inama hari abantu benshi bicaye, imbere yabo hateretse imashini za kompiyuta buri muntu iruhande rwe hari icupa ry'amazi, bahindukiye bareba hirya bisa nkaho hari icyo bateze amatwi.

Abantu batatu bisa n'aho hari icyo bari kubwira abandi, iruhande rwabo hari amacupa y'amazi ku meza, hari telefoni eshatu, hari n'agatabo kari mu ibara ry'ubururu. Umugore uri hagati afite mikoro, birasa nk'aho hari icyo ari kuvuga.

Abagabo babiri n'abagore batatu buri umwe agiye afite ikaramu n'urupapuro bisa naho bari mu mahugurwa.

Birasa n'aho habera inama, hari abantu benshi bicaye, hari abagabo bane bicaye ku meza imwe. Umwe afite mashini imbere ye, hateretseho amacupa arimo ibyo kunywa. Harimo ibirahure basutsemo ibyo kunywa hari n'amatasi abiri ateretse ku dusahani.

Imodoka iparitse ku ruhande haparitse moto, hari umugabo wambaye umupira w'ubururu ahetse igikapu ku mugongo, hari akazu k'umweru kariho ibyapa bitandukanye, inyuma yaho hari isoko.

Umugore wicaye wambaye agakote k'umukara, imbere ye hari imashini bisa nkaho haricyo ari kureba mu mashini, iruhande rwe hari izindi mashini nka purinta n'izindi. Ameza ateretseho ariho ibyapa bigiye bitandukanye.

Akazu karimo ibara ry'ubururu yanditseho "Ecobank" umusore wambaye ikabutura ya karokaro ahagaze i ruhande, hari umusekirite uhicaye wegamiye ku kazu, hari n'undi mugabo wicaye ku ruhande rwe, inyuma yaho hari icyapa kiriho umukobwa.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ingofero mu mutwe, yambaye na rineti. Iruhande rwe hari mashini, ashyizeho ikiganza, birasa n'aho hari ibyo ari gukora. Hakurya hari umukobwa wambaye itaburiya y'umweru, ekuteri nini mu mutwe, hari ibintu aba ari kureba muri mashini.

Umumotari utwaye umugenzi kuruhande hari umutaka wa MTN hakurya hari icyapa kinini cya MTN, hakurya hari amazu y'ubucuruzi hari n'urujya n'uruza rw'abantu.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'abantu hari abamotari babiri bari kugenda mu muhanda hari abari kugenda n'amaguru imodoka amapoto n'iminara.

Imodoka y'umweru itwara abagenzi iri kugenda mu muhanda, hari umugabo wambaye ishati y'umukara uri kuvugira kuri telefone, ku ruhande haparitse izindi modoka nyinshi hari n'igiti giteye ku muhanda, hari n'imitaka ya emutiyeni.

Bisa nk'aho ari kubitaro hari ambilanse ebyiri zihagaze umusekirite uhagaze bisa nk'aho ari kuvugisha undi umuntu hari umugore uteruye uruhinja hari n'abandi bantu bicaye.

Inzu igeretse gatatu imbere yaho hateye igiti cy'umukindo, hari imodoka y'umweru ku rundi ruhande haparitse imodoka ebyiri zitukura, umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara ari kwinjira.

Ahabera inama y'abaturage abaturage benshi bicaye hasi mu mucaca, hari umugabo ufite urupapuro mu ntoki yambaye ikoti ry'umukara n'pantaro y'umweru, birasa naho hari icyo ari kubaganirizaho. Aho bicaye hateye ibiti binini byinshi.

Abagororwa, buri umwe agiye afite igikoresho cy'ubwubatsi mu ntoki. Barazamuka, birasa n'aho bagiye kubaka. Hakurya yabo hari igikuta cy'amatafari ahiye.

Umugabo wambaye umupira w'umweru nipantaro yumukara ari kwinjira mu muryango. Ku ruhande rwe hari abasekerite babiri umwe afite ikaramu mu ntoki n'urupapuro.

Umugabo wambaye ikote rya kositimu n'ishati y'umweru uhagaze, hari umugore umuhagaze iruhande afite impapuro mu muntoki na telefone kumeza hatetse icupa ry'amazi, harundi mugabo wicaye n'umugore bisa naho ari kubaha serivisi.

Abanyeshuri bicaye buri umwe agiye yambaye agapfukamunwa agiye afite mashini iruhande rwe bisa naho hari amasomo bari kwiga.

Umupolisi uhagaze ku muhanda. Iruhande rwe hari abantu bambuka umuhanda n'amaguru hari umuntu utwaye igare, hari moto iparitse ku ruhande, hari imodoka ziri kugenda, hari umutakaka utukura wa eyateri, hari n'amazu y'ubucuruzi.

Mu muhanda umugabo wambaye imipira y'umukara n'ipantaro y'umukara afite utujerekani dutatu tw'umweru mu ntoki n'akandi kamwe k'umuhondo, iruhande rwe haparitse imodoka y'umweru ya polisi umugore wambaye imyenda y'ibitenge ari gutambuka.

Imodoka yo mu ibara ry'umweru itwara abagenzi. Imbere hari imdodoka nini y'igikamyo ifite ibara ry'umweru n'ubururu, hari indi modoka ifite ibara ry'umukara. Kuruhande hari inzu isa naho ari iy'ubucuruzi, inyuma yaho hateye igiti kinini.

Ahabereye igikorwa cyo kwiyamamaza. Abaturage bafite amadarapo ari mu ibara ritukura umwero n'ubururu yanditseho rfuperi bisa naho bari kwamamaza umukandida wabo.

Ahabereye igikorwa runaka, umugabo wambaye ikositimu afite urupapuro mu ntoki imbere ye hari mikoro, hari undi wambaye umupira w'umweru uriho ifoto y'umuntu, ku ruhande hari n'undi mugabo uhagaze, inyuma hari icyapa cy'umweru kiriho amafoto y'umuntu, hari n'abandi bantu bicaye.

Umugabo wambaye ikote rya kositimu iruhande rwe hari mikoro, hari imashini, n'inyuma ye hari undi mugabo wambaye ikositimu afite ikaramu mu ntoki ari kwandika ku meza ye hateretse icupa ry'amazi.

Umugabo wambaye ikote n'ipantaro bya kositimu, afite urupapuro ruriho ifoto y'umuntu mu ntoki, ku ruhande rwe hari undi mugabo wambaye ikote ry'umukara n'undi mugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ikoboyi, inyuma yabo hari icyapa gishushanyijeho umuntu.

Habereye igikorwa cyo kwiyamamaza. Abaturage benshi bisize amarangi mu gituza, mu maso no ku maboko, hari umugore wambaye umupira w'umukara n'pantaro y'umukara, uhahagaze iruhande. Afite ishakoshi ku rutugu hari abantu benshi.

Ahabereye ibikorwa byo kwamamaza. Abantu benshi bafite darapo mu ntoki, bambaye ingofero y'umutuku, haruguru hari icyapa cyanditseho ngo umuturage ku isonga. Hari n'ayandi mazu hakurya.

Ahabereye serivisi zo kwiyamamaza ku myanya y'ubuyobozi, abakandida bambaye amashati y'umweru n'ipantaro y'umukara, hari abafotogarafe babiri, hakurya hari abantu benshi hari imodoka ebyiri z'umukara n'indi imwe y'umweru ziparitse.

Amafoto y'aba minisitiri b'u Rwanda, abagore batatu; umwe wambaye ishati y'umuhondo, undi wambaye iy'icyatsi n'undi wambaye iy'ubururu, n'abagabo babiri bambaye kostimu na karovati.

Umuhanda uri mo urujya n'uruza rw'abantu, hejuru hari icyapa kinini cyanditse ho ngo twitabire amatora bisa nk'aho ari abantu bagiye gutora.

Umu motari uri kugenda mu muhanda, hakurya haparitse moto, hateye ibiti by'indabo, hari amazu y'ubucuruzi, hari abantu bicaye hanze, hari n'undi mu motari uhagaze ku ruhande.

Imodoka iri mu ibara ry'ubururu inyuma hariho shitingi, imbere hari indi modoka y'ubururu nini iri kugenda hari na za moto nini kuruhande hari amatara yo mumuhanda hateye n'ibiti bitandukanye.

Igikamyo gifite ibara ry'umweru kigenda mu muhanda kuruhande hari imodoka ya toyota iri mu ibara ry'umweru hari umugabo wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'ikoboyi ufite umufuka mu ntoki.

Moto iparitse hanze hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo uri kugenda mu muhanda, hari akazu kari mu ibara ry'umutuku ku ruhande hari inzu isisa irangi ry'umuhondo hari inzu bari kubaka ituzuye hari n'umugabo wicaye hanze.

Inzu nini iri mu ibara ry'umweru kuruhande hari igikamyo gihetse amamatera, hajuru hapfundikijeho shitingi hakurya y'umuhanda hateye ibiti bitandukanye.

Moto eshatu nini ziparitse, hari abantu batwaye igare babiri bari kugenda, hari urujya n'uruza rw'abantu, hari imodoka ziparitse ku ruhande, hari n'inzu z'ubucuruzi. Ku ruhande hari inzu igeretse.

Imodoka nini iri mu ibara ry'umweru itwaye ibintu, hari indi modoka y'umweru yo kugenda mu muhanda y'akavatiri ,hari n'umugabo uri kugenda n'amaguru hakurya y'umuhanda hateye ibiti bitandukanye.

Umuntu utwaye igare uri kugenda mu muhanda ahetse n'undi muntu, ku ruhande hari imodoka nini iri mu ibara ry'umutuku, hari umuntu uhagaze ku ruhande, hakurya hari n'undi muntu utwaye igare, hakurya y'umuhanda hateye ibiti hari n'amatara mu muhanda.

Imodoka nini y'igikamyo irimo ibara ry'ubururu, hakurya hari indi modoka ihetse ibintu, imbere hari imodoka y'ibishingwe ihagazemo n'umuntu, hari n'undi muntu uri kugenda n'amaguru ku ruhande hari n'amazu hepfo y'umuhanda.

Moto nini iri kugenda mu muhanda ku ruhande hari umumotari uhetse umugenzi, hakurya hari imodoka iparitse, hari umugabo wambaye ishati y'umweru uri kugenda n'amaguru hari inzu nini igeretse iriho ibyapa byinshi bisa naho ari iy'ubucuruzi.

Imodoka ebyiri ziparitse zitwara abagenzi, hari umuntu wambaye umupira w'umweru uhagaze ku ruhande, hakurya hari abandi bantu batatu bazegereye, hepfo hari urujya n'uruza rw'abantu, hari n'akazu kari mu ibara ry'umweru n'umutuku.

Umuntu utwaye igare uhetse n'undi muntu, ku ruhande hari umugore uhahagaze, hari moto nini iri kugenda, hari undi mumotari uri gutambuka ku ruhande, hari imodoka y'umweru hari n'indi modoka y'umukara iri kugenda.

moto nini iri mwibara ry'umweru kuruhande hari imodoka y'umweru iri kugenda inyuma harindi modoka nini itwara abagenzi, kuruhande rw'umuhanda hateye ibiti byinshi bitandukanye, haruguru hari ishansiye bari kubaka

Imodoka y'ibara ry'umweru itwara abagenzi. Hari umumotari uhetse umuntu ku ruhande, imbere hari abandi bamotari batatu. Hari umuntu uri kugenda n'amaguru hakurya y'umuhanda, hateye n'ibiti bigiye bitandukanye.

Ikimoto kinini kiri mu ibara ry'ubururu kiri kugenda mu muhanda, ku ruhande hari umumotari uhetse umugenzi n'inyuma yaho hari umumotari uhetse umugenzi, hari ibikamyo bibiri biri kuza, hari umugabo wambaye umupira utukura n'ipantaro itukura.

Umuhanda urimo imodoka y'umweru ya Toyota. Iruhande rwayo hari indi modoka y'umukara, hari umumotari uhetse umugenzi, ibumoso bw'imodoka y'umweru hari n'undi mumotari uhetse umugenzi iruhande rwabo hari n'umugore wambaaye agapira k'icyatsi uri kugenda n'amaguru.

Imodoka nini irimo ibara ry'umutuku iri kugenda mu muhanda, hari umunyonzi uri gutwara igare, hari indi modoka iri imbere y'umukara imbere hari imodoka ya polisi, hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Imodoka iri mw'ibara ry'umweru iparitse, ku ruhande hari icyapa, imbere hari inzu igeretse, hari umuhanda urimo urujya n'uruza rw'abantu, hari imodoka y'igikamyo hejuru ipfundikije shitingi. Hakurya y'umuhanda hateye n'ibiti.

Aha ngaha hari ameza yicayeho abantu bane harimo umugore umwe ndetse n'abagabo batatu, bicaye ku ntebe nziza cyane bose imbere yabo hari indangururamajwi kugirango ngo babashe kumvikana, hakaba hari kandi n'uducupa tw'amazi atunganywa n'uruganda ruzwi cyane mu Rwanda mu gutunganya ibyo kunywa rw'inyange

Igikamyo kiri mu ibara ry'ubururu kiri kugenda mu muhanda, iruhande rwaho hari umugabo wambaye umupira utukura utwaye igare hari n'umumotari utwaye umunyonzi.

Imodoka y'ivatiri iri mu ibara ry'umweru, hari indi y'ibara ry'umutuku, ku ruhande hari n'indi iri mu bara ry'ubururu, hari abamotari babiri buri umwe agiye ahetse umugenzi, hakurya y'umuhanda hateye ibiti bitandukanye.

Imodoka nini itwara abagenzi, hari umumotari utwaye moto, hari imodoka ebyiri ziparitse hari na resitora.

Imodoka nini iri mu ibara ry'umweru iri kugenda mu muhanda. Inyuma hatwikirije shitingi hari abantu babiri batwaye igare bahetse n'abandi bantu inyuma, hari n'abandi bagabo babiri bari kugenda n'amaguru.

Umodoka iri mu ibara ry'umweru itwara abagenzi, hari umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ikoboyi uri gutambuka, ku ruhande hari abandi bantu bahahagaze bisa naho bategereje imodoka, inyuma yabo hari sitasiyo ya esansi.

Imodoka iri mu ibara ry'umweru ya tagisi, iruhande rwabo hari umumotari utwaye umugenzi hari undi mugabo wambaye agapira k'umukara n'ingofero mu mutwe hirya yaho hari kubera isoko ry'ubucuruzi.

Imodoka eshatu zitwaye abagenzi ziri mu ibara ry'umweru. Hari umugabo wambaye ikote ry'ikoboyi, ipantaro y'umweru, ahetse igikapu mumugongo, afite amvelope muntoki, hari abandi bantu hirya bari kwinjira mumodoka.

Umuhanda urimo urujya nuruza rw'abantu umusore wambaye umupira w'umweru uri kugenda, hakurya hari umuntu wikoreye imizigo hari igikamyo kiri mwibara ry'umweru kiri kugenda hari n'abamotari babiri bari kugenda umwe ahetse umugenzi.

Imodoka yo mw'ibara r y'umweru iri kugenda itwara abagenzi har' iyindi iparitse itwara abagenzi, hakurya har' abana bari kuhakinira har'amazu, har'amatara yo mu muhanda hari n'ibiti.

Aho abagenzi bicara bategereje imodoka hari imodoka iri kuza, hari abagabo babiri bari kugenda n'amaguru, imbere hariyo n'umumotari hateye ibiti munkengero z'umuhanda inyuma hariyo imodoka nabandi bagabo babiri bahagaze.

Ikibuga bakiniramo basikete harimo tapi nini y'umutuku yandikishijeho amagambo y'umweru, hari n'amazamu kuruhande hari pasiparume hari ibiti byinshi by'ininturusu hari n'igikuta cy'amatafari ahiye.

Umuhanda urimo urujya n' uruza rw' abantu, amamodoka, moto, abagenzi bagenda n' amaguru. Hari icyapa gishushanyijeho imodoka kibuza imodoka kunyura aha hantu.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho y'ikiziga cyanditseho mirongo itandatu. Hari abantu babiri batwaye amagare, hari abari kugenda n'amaguru, hari n'imodoka iri kugenda mu muhanda. Hakurya y'umuhanda hateye ibiti bitandukanye.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'abantu hari abamotari baparitse ku ruhande, hari inzu nini y'ubucuruzi harimo imodoka ziri kugenda hari n'icyapa kinini cyanditseho Kagarama kirimo ibara ry'icyatsi.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'abantu, amapoto y'imiriro, n'amatara yo ku muhanda, ibiti biteye hakurya y'umuhanda, ku ruhande hari amazu y'ubucuruzi n'amazu yo kubamo.

Inzu nini igeretse y'ubucuruza igiye iriho ibyapa bitandukanye, hanze hari imodoka zihaparitse hari abamotari benshi hari urujya n'uruza rw'abantu hateye n'ibiti.

Imodoka nyinshi ziparitse ahantu hamwe, hari umuntu wicaye hasi, hari abana babiri umwe wambaye agapira gatukura n'undi wambaye agapira, hari igiti kinini kirekire, hari amazu y'ubucuruzi ariho ibyapa.

Inzu igeretse, iriho icyapa cy'ubururu cyanditseho Bank of Kigali, Giporoso branch. Hanze hari abantu benshi, ku ruhande hari akazu kari mu ibara ry'ubururu. Imbere hateye ibiti n'indabo.

Inyubako ifite ibara ry'umweru ifite n'amadirishya y'umukara arimo utwuma, harimo amarido afite ibara ry'ubururu ndetse n'udutebe, ndetse hari n'akagare kicaramo abageze mu za bukuru ndetse n'abamugaye, harimo n'ifoto imanitsemo muri iyo nyubako.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'abantu, imodoka nyinshi ziri kugenda mu muhanda hari abamotari ku ruhande, hari amapoto y'amashanyarazi, hari inzu igeretse hari ibyapa isa naho ariy'ubucuruzi hejuru hariho umunara.

Umumotari uhetse umugenzi, hakurya hari umugabo wambaye ishati ya karokaro hari n'undi mugabo wambaye ikoti ry'umukara, haparitse imodoka y'umukara n'indi modoka y'umweru hari amazu ageretse bisa n'aho akorerwa mo serivisi zitandukanye.

Imodoka y'ivatiri iri mu ibara ry'umukara, hari icyapa cya eyeteri hari igikuta cy'amatafari ahiye ku ruhande hari inzu igeretse imbere harimo inzu z'ubucuruzi hari n'icyapa cya mutsinzi.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo ka mtn imbere harimo umugore uteze igitambaro, hari n'undi mugore wifubitse cy'umutuku uhahaze hanze. Hanze hari urujya n'uruza rw'abantu, hari ikigega cy'amazi, hari inzu z'ubucuruzi, hari na farumasi.

Imodoka eshatu ziparitse hari iziri z'umweru, hari n'indi imwe y'umukara. Kuruhande hari inzu iri mu ibara ry'umweru, hateye ibiti bitandukanye, hari n'abantu bagenda mu muhanda.

Umumotari uhetse umunyonzi hirya yabo hari umugabo wambaye ishati ya karokaro n'undi wambaye ikote ry'umukara iruhande rw'aba haparitse imodoka ebyiri i y'umukara n'iyumweru hari amazu ageretse bisa nkaho atangirwamo serivisi zitandukanye.

Umuhanda uteyemo ibiti nk'imikindo n'ibundi bitandukanye hari umumotari utwaye umugenzi hakurya hari ipoto iriho icyapa k'icyatsi cya noheli.

Igikamyo kiri mu ibara ry'ubururu kiri kugenda, hari umumotari utwaye umugenzi ku ruhande, hari umuntu utwaye igare ku ruhande, hari imodoka iri inyuma iri kuza, hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara uri kugenda n'amaguru.

Mot eshatu zitwaye abagenzi ziri kugenda mu muhanda. Hari icyapa kinini cya Airtel, hari sitasiyo ya esanse, hari inzu igeretse, hari amatara yo mu muhanda hateye n'ibiti bitandukanye.

Abagabo batatu bari kwambuka umuhanda. Hari imodoka y'umweru, hari umumotari utwaye umugenzi. Hakurya y'imihanda hateye pasiparume, n'ibiti byinshi bigiye bitandukanye. Hari n'inzu y'mweru igeretse.

Imodoka y'ivatiri ifite ibara ry'umutuku iri kugenda mu mihanda, hari motari uparitse ku muhanda, hari amazu y'ubucuruzi, hari abantu bari kwambuka umuhanda, hari n'icyapa kinini cyanditseho irembo.

Imodoka y'umukara iri kugenda mu muhanda, imbere hari aba motari babiri, bahetse abagenzi nabo bari kugenda, ku ruhande rw'umuhanda hateye ibiti byinshi bitandukanye, hari n'igikuta cy'amatafari ahiye.

Umuhanda urimo urujya nuruza rw'abantu, hari igare riparitse kuruhande hari abantu bagenda n'amaguru hari moto hari imodoka hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Umuhanda uri kugendamo moto nyinshi, hari amatara yo mu muhanda, hari imodoka ebyiri z'umukara ziri gutambuka. Hakurya y'umuhanda hagiye hakikijwe n'ibiti byinshi bitandukanye, hari na kamera.

Imodoka y'umukara iri kugenda mu muhanda, imbere hari imodoka itukura nini y'igikamyo iri kugenda, hari abamotari benshi bari kugenda mu muhanda impande z'imihanda hakikijwe n'ibiti byinshi bitandukanye.

abakobwa babairi bambuka umuhanda umwe afite isakoshi kurutugu hari umumotari uhertse imifuka ibiri kuri moto hari n'indi y'umweru iza ibasanga.